Umukobwa mwiza wambaye ishati y'umweru, uri kumwe n'umuhungu mwiza wambaye ishati y'ubururu, ndetse n'umupira imbere, bari ku.

Imodoka y'ikamyo y'umweru iriho ibirango ndetse n'abagabo babiri bahagaze imbere yayo, umwe afite agakapu k'umutuku karimo n'utubara tw'umweru.

Umukozi ushinzwe kwakira ndetse no gutanga amafaranga w'umugore ari kwakira umugore mugenzi we wambaye igitambaro mu mutwe gitukura.

Inzu nziza iteguye neza iriho icyapa cyanditsweho zayoni, ndetse n'imitako itandukanye, n'indabo ziripanze neza muburyo bwiza, ndetse isize amabara y'umweru.

Ibicuruzwa bitandukanye, birimo indagara, amavuta, ndetse n'abaguzi baza kubaza ibicuruzwa kugira ngo babone uko babigura.

Iduka rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'abaguzi benshi batandukanye ndetse n'ushinzwe kubakira.